Itangazo rivuga ku kuntu bagomba kumara Kanseri mu baturage b'u Rwanda, ryanditswe na Dogiteri Sabin Nsanzimana rya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda.

Bisa n'inama yicawemo n'abantu benshi batandukanye ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, bakurikiye, bateze amatwi, ibyo bumvise ubishaka arimo arabyandika cyangwa se akabifata mu mutwe.

Umwna mutoya uhagaze mu kidendezi cy'amazi arimo aramavoma ayo mazi akoresheje ikivomesho mu rurimi rwa kinyarwanda twita ikijerekani kinini.

Umwana urimo arakina n'amazi, ari kuvomera mu icupa akayamena hasi, akayimenaho akitosa, yambaye agakanzu gakoze mu gitembe cyiza cy'amabara atandukanye.

Ishyirahamwe ry'abahinzi ba kijyambere bari guhinga mu buryo bugezweho, aho bafata imifuka bagashyiramo itaka, iryo taka akaba ari ryo rihingwamo ibihingwa bitandukanye.

Umugezi wa kijyambere ukikijwe n'abaturage batandukanye, haribo ababyeyi bacigatiye abana, harimo n'amusaza bicumbye utubando, uyu migezo rero kugirango uvomweho, bisaba ngo habe hari undi muntu urimo arabafasha kupfungura, kugira ngo amazi aboneke mu cyo wazanye kuvomesha.

Umwana mutoya uhagaze ku munzani, hagamijwe kureba ibiro afite imbere ye hari telefone, afashwe n'igitsina gabo, aha rero ababyeyi bakunze kujya kureba ibiro abana babo bafite kugira bamenye uko ubuzima bwabo buri kugenda bukura uko bigira ijuru.

Urugaga rw'abantu benshi bateraniye hamwe bakikije umwana mutoya barimo barapima uburebure, n'ibiro bye hakoreshejwe icyuma cyabugenewe. Isi yose rero hari gahunda yo gupima abana ibiro, uburebure, hagamijwe kumenya uko ubuzima bwabo bugenda butera imbere.

Inteko y'abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bari mu nama baganira ku byerekeranye n'ubuzima bwiza buzira umuze, barimo baraganirizwa n'abantu babakuriye batatu muri bo bicaye imbere yabo.

Umwana mutoya uvuye mu bwiherero, mu buryo bumwe bwo kugira isuku, akanyura kuri kandagirukararabe, aho abona amazi yo gusukura ibiganza bye, kugira yirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru n'umukara, urimo aravomera ku iriba ry'amazi afutse asa neza, bitwaje ibivomesho bitatu ari byo mu Kinyarwanda twita indobo.

Umurwayi w'igitsina gore uri hagati y' imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo ine arimo arafashwa n'abaganga babiri umugore arimo aramusuzuma umugabo abahagaze kuruhande. Mu Rwanda rero akenshi ntabwo bakunda kuvura batagusuzumye bagira serivisi nziza iyo wumva urwaye ugana ku bitaro bikwegereye bakagusuzuma bakareba ikibazo waba ufite nyuma bakakwitaho.

Umwana mutoya arimo kurira ukeneye kwitabwaho kuko afite agahinda, yikoreye amaboko, yambaye agapira k'umweru, ahagaze imbere y'umumama ufite inkwi mu ntoki n'abandi bantu benshi batandukanye bateraniye hamwe.

Umwana w'umukobwa urimo araseka yishimye, arimo aramwenyura agatwenge, afite umusatsi utari muremure ahubwo mugufi w'umukara, yambaye agapira k'icyatsi mo imbere.

Umuntu w'igitsina gore ukuze uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine wafunze isura cyane urakaye afite ikibazo cyo mu mutwe. Mu Rwanda rero hari ibitaro byinshi byita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bakabanyera imiti kandi akenshi baracyari rwose kuko bitabwaho n'inzobere.

umwana muto uryamye kugitanda cyo kwa muganga arimo aritabwaho n'umuganga w'amenyo asuzumye ikibazo yaba afite mu menyo, mu cyumba barimo harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa cyane cyane amenyo.

Umwana mutoya cyane urimo arita ku menyo ye akoresheje icyo twita mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda uburuso, akanozasuku k'amenyo, yogoshe umusatsi, ni mwiza, ari ahantu hasa neza, hafite isuku.

Icyumba cy'ubuvunzi bita ku bantu barwaye amenyo cyane cyane. Harimo ibitanda, intebe, utubati bigezeho. Mu rurimi rw'ikinyarwanda twita ibikoresho bya kijyambere.

Umugabo wishimye rwose, wambaye umupira ukoze mu budodo, arimo arerekana, ibanga, yakoresheje, kugira ngo amenyo ye amere neza, avuga ko, nawe uramutse abikoresheje, amenyo afite ikibazo, cyagenda burundu.

Umugabo ufite ubwanwa urimo aritunganyiriza amenyo, afite uburwayi arimo arareba ese afite ikihe kibazo? Akoresheje akantu kabugenewe.

Umwana muto urimo yitabwaho n'umuganga, ngo arebe ikibazo yaba afite mu menyo, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, agace ntuyemo rero, karimo ahantu henshi nkaha ngaha, abana batoya bagenda bakabasuzuma bakareba niba hari ikibazo baba bafite, cyane cyane ibibazo byerekewe n'amenyo.

Umuryango wishimye w'umukecuru n'umusaza bicaye ku meza barimo barasangira ifunguro ryiganjemo imboga, imbuto, n'ibitera imbaraga, imbere yabo hariho amazi yo kunywa kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza.

Abakecuru benshi bateraniye hamwe mu rurimi rw'ikinyarwanda tubita abasheshe akanguhe. Bateze amatwi inama zitandukanye z'uko bakita ku buzima bwabo mu gihe cy'izabukuru kugira ngo bukomeze buzira umuze.

Isoko ry'imbuto nyinshi zitandukanye, harimo amaronji, inyanya, ibitunguru, ryitabiriwe n'aba mama bakuze barimo abasheshe akanguhe, barimo kuganira byinshi bitandukanye kuri ibyo bicuruzwa.

Umusaza ukuze cyane ufite imvi, arimo aruhagirwa umubiri wose n'undi muntu ushinzwe kumwitaho. Akenshi rero abasaza bamaze gukura bakeneye ababitaho.

Umwana muto uri mu gihugu cya umuntu ukuze usheshe akanguhe arimo aramubwira amagambo ashimishije ubona ko uwo ayabwira yishimye anshaka guseka aribyo m'ururimi rw'ikinyarwanda twita kumwenyura.

Ameza ategurwaho ibyo kurya, birimo birategurwa n'abantu babiri b'igitsina gore ubona ko bakuze basheshe akanguhe, ariko bakabitegura batera urwenya, baganira, baseka, ubona ko bishimye rwose bafite ubuzima bwiza.

Abantu babiri bakuze basheshe akanguhe bishimye, umwe ari kwita ku wundi bagaseka cyane, umusaza aryamye ku rutugu rw'umukecuru, umukecuru na we agafata ku rutugu rw'umusaza.

Inyubako y'ubuvuzi mu gace ka Kigina, Abanyarwanda mu rurimi rwacu tubyita ibitaro, bihagazweho n'umu mama, umubyeyi uhetse umwana mu bishora byiza cyane.

Inyubako irimo ububibiko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi butandukanye ikunda kuboneka ahantu hari inyubako z'ubuvuzi n'ibigo nderabuzima.

Inyubako y'ubuvuzi ihagazweho n'abagabo bagera muri bane uwa gatanu akaba yiciwe ku muryango usohoka muri iyo nyubako, hakaba harimo harasohokamo imodoka muri uwo muryango, ku ruhande rw'iyi myubako hariho icyapa, hariho akajaride gateyemo indabyo nziza cyane.

Icyumba kimwe mu byumba bigize inyubako y'ubuvuzi, kirimo ibitanda bigera ku icumu, gihagazemo umuganga umwe, buri gitanda gifite supernet yacyo iri mu mabara y'umweru, buri dirishya rikagira rido yaryo iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kimwe mu byumba bigize inyubako y'ibitaro, harimo ibitanda bikozwe mu buryo bwa kijyambere, buri gitanda gifite akabati kacyo n'ahantu bashobora gushyira serumu mu gihe runaka umurwayi uhari akeneye serumu.

Sale nini nziza ifite isuku, harimo intebe n'indabo, abantu bazamo bakagirwa inama mu bijyanye n'uko bakita ku mibiri yabo maze bakamenya icyo bakora.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifasha abarwayi batandukanye baturutse impande zitandukanye, cyubatswe n'umushinga w'Imbuto, kiganwaho n'abantu batandukanye baje kureba ese barwaye iki? Bakitabwaho bikurikije uko barwaye.

Sare y'umwanya munini ihuriramo abarwayi, abarwaza n'abivuza, irimo ubusa nta muntu n'umwe uyicayemo, ifitemo intebe zigezweho n'ameza agezweho.

Ibitaro bya Kabutare bihagazweho n'abaganga b'inzobere bitandukanye, harimo n'abarwayi barenga babiri barwaye ingingo z'umubiri, bagendera ku mbago, baje gushaka ubufasha bw'icyakorwa kugira ngo ubuzima bwabo buzira umuze.

Inyubako nini iteye amaranki y'umweru, ifite amabati asize irangi ry'ubururu. Ikaba ihagatsweho n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru.

Icyumba kimwe mu byumba bigize ivuriro, harimo ibitanda by'abarwayi bitandukanye bya kijyambere, harimo umuganga umwe wambaye agakomo ku kuboko n'impuzankano y'abaganga muri rusange.

Umwana ukiri muto w'umunyeshuri, urimo asuzumwa na muganga ngo arebe ikibazo afite. Arimo arasuzumwa ku kaboko, aho bamupima ngo bare umuvuduko w'amaraso afite. Muganga yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, umwana yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru.

Umwana w'umukobwa uri muri siporo. Yambaye inkweto zifunze z'ibara ry'icyatsi, yambaye isaha n'insengeri. Ari gukoresha umuhanda rusange usanzwe ukorerwamo siporo n'abantu batanu.

Umukobwa mwiza uri no muri siporo afashe pose arimo aranywa amazi afite utwuma mu matwi tumufasha kumva umuziki, afite umusatsi muremure, yambaye isengeri nziza.

Ibintu byinshi bitandukanye, biteretse ku meza, harimo imboga, imbuto, ibitera imbaraga, ibinyamavuta, inkweto zo kwambara, umukeka, isaha, ibyo kwita ku uruhu, byose bikoreshwa, muri siporo.

Ikirahure kirimo kirasukwamo amazi asa neza asukuye, hakoreshejwe icupa rifashwe n'umuntu kuko riri mu kirere, riteretse ahantu heza hasa n'umweru hafite isuku nyinshi cyane.

Umugabo wakomeretse ku ivi arimo arivura akoresheje umuti yasize mu gatambaro gafite isuku gasa ubururu bwijimye.

Amagambo asobanura urubuga Abanyarwanda bakora siporo y'urubyiruko bahuriraho kugira bamenye uko gahunda zimeze. Mu rwanda rero habamo siporo yo kwibuka mu buryo bw'amarushanwa, utsinze agahabwa igikombe kimukwiriye.

Umukobwa urimo aritabwaho na muganga ubishinzwe, agorora ingingo z'umubiri we, anasuzuma uko bimeze, yibanze rero ku ngingo zigize amavi, areba ikibazo haba hafite.

Umusore mwiza w'ibigango uri muri siporo, wambaye inkweto n'amasogisi y'umukara ikabutura isa n'inkweto yambaye, isaha ku kuboko isa n'umweru, arimo aragorora ingingo z'umubiri we.

Umukobwa ukiri urubyiruko rwose arimo arakora siporo, agamije kugorora ingingo ze z'umubiri cyane cyane amaboko, mu bitugu, mu mugongo. Abantu benshi rero bitabira iki gikorwa cyo kunanura ingingo z'umubiri hifashishijwe siporo.

Umugabo urimo arakora siporo z'amaboko, siporo rero ni ubuzima bwiza ku bantu benshi, tugirwe inama yo kuyikora kenshi kuko ituma tugira ubuzima buzira umuze.

Icupa ry'umutuku riri ahantu h'umweru rirere ririmo imiti ivura gakondo, bivuze ngo umuntu urwaye indwara runaka ashobora kuvurwa n'umuti urimo aha ngaha bidasabye ngo ajye kwa muganga, ahubwo awusanga aho ugurishirizwa.

Umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye udakorewe mu nganda, uri mu icupa ry'umweru, ufashwe n'ikiganza cy'umuntu, amaze kuwutunganya, kugira ngo ube wabasha guhabwa abantu.

Ibihingwa bitandukanye bigera muri birindwi, buri kimwe mu gatereko kacyo, rero byitabwaho n'abantu babizobereyemo bamara kubitunganya bakabigeza ku bantu batandukanye bafite indwara zitandukanye.

Ibikombe bibiri bikozwe mu birahure birimo amazi ashyiramo amababi y'igihingwa hagamijwe gukora umuti wavura indwara zitandukanye, bitewe n'iyo buri wese afite.

Amacupa menshi yo mu bwoko butandukanye arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, ibi bikorwa n'abaganga babizobereyemo babyigiye, bazi kuvura bya gakondo.